Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'abayobozi babo, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku murwayi, muri iki cyumba kandi harimo imashini ziri kwifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ikibuga giteyemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, hahagazemo umwana wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ufite ibirahuri bibiri mu ntoki birimo amazi meza yo kunywa. Iruhande rwe hari ikizenga cy'amazi.

Abana bakiri bato harimo umuhungu ndetse n'umukobwa, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza, kugira ngo bikureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kwita ku bana bakiri bato kugira ngo bimakaze imirire myiza mu bana. Cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bari kwita ku bana babahereza ibyo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari gukingira abaturage baje muri iki gikorwa babatera inshinge, inyuma yabo hateretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo igitanda umurwayi aryamyeho, aho ari kwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari kumupima bareba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe bari kuganira, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inamama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo bakuze, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi banasuhuzanya, imbere yabo hari icyapa kinini cyerekana ibyaranze inama.

Ku ivomero rusange, aho abaturage b'ingeri zitandukanye, baza kuvoma amazi meza, ava muri robine, bitwaje indobo ndetse na majerekani. Aha kandi hari umumama, uri gukarabya umwana we, akoresheje amazi meza, avuye muri robine.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bazanye utujerekani kugira ngo bavome amazi meza ari kuva muri robine. Umukobwa ari kubafasha gusunika robine kugira ngo amazi asohoke. Hakurya y'ivomero haparitse imodoka.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, zikerekana kandi amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, aha kandi harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Hanze y'inyubako yabereyemo igikorwa cyo gukingira abaturage, ndetse no kubasuzuma indwara zitandukanye, iruhande rw'inyubako haparitse imodoka.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bose bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, bicaye hamwe, bakurikiye inama.

Icyumba cyabereyemo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara zishobora kubafata. Aho abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, bari kwita ku bana bato bazanwe n'ababyeyi babo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo bicaye hamwe bari kurebana bafite ibyo kunywa imbere yabo ndetse n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe imbere yabo hari ameza arambitseho mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa ari mu icupa ryabugenewe.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana ku meza hateretseho mudasobwa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Ikibuga cyabereyemo inama yitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe abandi barahagaze, muri iki kibuga kandi hateyemo ibyatsi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hateretse amazi meza yo kunywa ndetse umugore umwe afite indangururamajwi ari gutanga igitekerezo ke.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe bari kuganira kandi bafite amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama. Iruhande rwabo haparitse imodoka.

Ku ivomero rusange aho abaturage bavoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Abagore batatu baje kuvoma amazi, aho umwe muri bo ari kubafasha gusunika robine kugira ngo amazi avemo, hakurya y'ivomero hateye ibiti.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Umu mama ukuze ari kwita ku mwana ukiri muto, amukarabya intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose, ishobora kumutera uburwayi, biturutse ku mwanda. Inyuma yabo hateye ibiti.

Kwa muganga, icyumba kirimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Ari gusuzuma umurwayi wicaye mu ntebe, amupima akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo amenye neza ko umuvuduko we w'amaraso uhagaze neza. Hari ameza kandi, ateretseho ibikoresho ndetse na mudasobwa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe nibo bari gukingira abaturage.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara zitandukanye. Kiri gukorwa n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari gukingira abana, babatera inshinge.

Ku ivomeraro rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hano ku ivomero hari abana bakiri bato bazanye amajerekani kugira ngo batwaremo amazi meza yo gukoresha, hakurya y'ivomero hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bahagararanye n'abayobozi babo bari kubaganiriza kugira ngo bamenye uburyo bagomba kugira isuku.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugirango akarabe imyanda yose, iruhande rwe hateretse amajerekani yo kuvomeramo amazi.

Mu rugo rw'umuturage, aho umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kuganiriza umuturage akoresheje ibishushanyo biri imbere ye, kugira ngo amusobanurire uburyo bagomba kwitwara.

Umwana ukiri muto umukobwa wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi.

Ku ivomero rusange aho abaturage bazana amajerekane baje kuvoma amazi meza ari kuva muri robine. Hano abagore babiri bazanye amajerekane kugira ngo bavome amazi meza bajya gukoresha mu ngo zabo. Hakurya y'ivomero hateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagore ndetse n'abakobwa, bari kubyina kandi muri iki cyumba harimo intebe zo kwicaraho, ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe kandi imbere yabo hateretse mudasobwa. Imbere yabo kandi hari umugabo ufite indangururamajwi ari kubakoresha inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, iruhande rwabo hari imodoka yifashishwa mu kuzana ndetse no kujyana abarwayi bagize ikibazo badashobora kwigenza.

Ku ivomero rusange, aho abaturage bazana amajerekani baje kuvoma amazi meza ari kuva muri robine. Hari umugore wazanye ijerekane, uri kuvoma. Hakurya y'ivomero kandi, hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bicaye hamwe bakurikiranye inama, iruhande rwabo kandi hari utumeza duteretseho amazi meza yo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara. Cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ni bo bari kubakingira, imbere yabo kandi hateretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto w'umuhungu ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo akarabe imyanda yose ishobora kumutera uburwayi, iruhande rwe hari indobo zo kuvomeramo ndetse hakurya y'ivomero hateye ibiti.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hahagaze umugabo ari kubakoresha inama kandi bose bamuteze amatwi.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahari ibigega birimo amazi meza yo kunywa, abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari kuvoma amazi meza kugira ngo bayanywe.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari kubakingira, babatera inshinge.

Kwa muganga, ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato. Ni icyumba kirimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari gukingira umwana ukiri muto ,uri kumwe na mama we.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga. Harimo intebe z'ubwoko butandukanye ,abarwayi bicaraho igihe bari kwitabwaho n'abaganga. Harimo kandi imashini zitandukanye, zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ,ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo.

Ku ivomero rusange, aho abana babiri bakiri bato bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera ubundi burwayi.

Ku ivomeraro rusange, aho abana bakiri bato b'abahungu bari gukaraba amazi meza, ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose, ishobora kubateza uburwayi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagore, bicaye hamwe bari kuganira, inyuma yabo hateretse ameza arambitseho amakaye yo kwandikamo incamake.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Hari abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe aho baje kuvoma bitwaje amajerekane ndetse n'indobo.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, ndetse no kubasuzuma indwara zitandukanye. Hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ni bo bari kwita ku baturage. Imbere yabo hateretse ameza, ariho mudasobwa.

Abagore ndetse n'abagabo bicaye hamwe mu cyumba bari gukora inama, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikombe byo kunyweramo icyayi ndetse n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Kwa muganga icyumba kirimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, imbere yabo harambitse amakaye bari kwandikamo amakuru y'abarwayi kugira ngo babone kubitaho.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira ndetse no gusuzuma abaturage, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kubitaho bakoresheje ibikoresho byabugenewe baje bitwaje.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye bazana amajerekane kugira ngo bavome amazi meza ari kuva muri iri vomero. Hakurya y'ivomero kandi hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange, aho abantu b'ingeri zitandukanye harimo abana bato, abasore ndetse n'abakobwa, bazanye amajerekane kugira ngo bavome amazi meza ava muri robine. Umwe muri bo ari kubafasha gusunika amazi.

Mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana bari kuganira, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi meza yo kunywa.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto w'umukobwa ari kunywa amazi meza ari kuva muri robine akoresheje ibiganza bye, iruhande rwe hateretse intebe yo kwicaraho.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana muto uteruwe na mama we kugira ngo bamurinde indwara.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kuganira hamwe bungurana ibitekerezo, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo abagore b'abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira y'umweru bamwe barahagaze abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Ku kiyaga aho abana bakiri bato, b'abahungu , bazanye amajerekani ndetse n'indobo baje kuvoma amazi yo muri iki ikiyaga, iruhande rwacyo hari ibyatsi byumye cyane.

Mu rugo rw'umuturage aho umujyanama mu w'ubuzima yasuye umubyeyi uri kumwe n'umwana we; amuganiriza uburyo bagomba kwitwara, bafite amakaye mu ntoki zabo bari kuganira.

Ahari inshinge zifashishwa mu buvuzi aho abaganga bazikoresha bari gutera abarwayi umuti kugira ngo babavure ibibazo by'uburwayi bafite ndetse barushaho kugira ubuzima bwiza, iruhande rwazo hari agacupa karimo umuti wo gutera.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hahagaze umugabo ufite indangururamajwi ari gukoresha inama, iruhande rwe hari intebe ndetse n'uducupa turimo amazi meza yo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo gutera ibyo kurya, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bose bambaye imipira isa ifite ibara rya oranje.

Abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi, hejuru yabo hahagaze umugabo uri kubasukira amazi meza.

Ku ivuomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza, hari umumama waje kuvoma azanye ijerekane aho ari kuvoma amazi ava muri robine. Hakurya y'ivomero hateye ibiti ndetse n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kirimo imashini z'ubwoko butandukanye, zikoreshwa mu gutunganya ibihingwa kugira ngo byoherezwe ku isoko. Harimo umusore wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ni we ubyitaho ndetse akabikorera isuku.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bicaye hamwe barebana imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kuywa.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore, abakobwa ndetse n'abana bato bazana amajerekani ndetse n'indobo kugirango bavome amazi meza ava kuri iri ivomero.

Abajyanama b'ubuzima harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bahagararanye n'umuyobozi wabo, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo kandi hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Ku kiyaga aho umwana ukiri muto yazanye akajerekane aje kuvoma, ari kudaha amazi ava mu kiyaga kugira ngo ajye kuyakoresha mu rugo, hakurya y'ikiyaga hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abagabo, abasore, ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, bafite impapuro zanditseho ibyaranze inama, kandi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi bose bambaye udupfukamunwa, bari gukingira umuturage bamutera urushinge.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubateza uburwayi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Umugabo umwe wambaye umwambaro w'umweru ari kubakoresha inama kandi ahagaze hagati yabo.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hateretse icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama hari umugabo uhagaze imbere niwe uri gukoresha inama, iruhande rwe hari intebe ndetse n'ameza ateretseho amazi meza yo kunywa, inyuma ye kandi hari icyapa kinini kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Umwana ukiri muto wambaye umupira w'ubururu, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumuteza uburwayi butandukanye.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, bahagaze bose hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari inyubako iteyeho indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama kandi imbere yabo hari abagize itsinda riyoboye inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Bicaye hamwe baganira kandi bafite mudasobwa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Ku ivomeraro rusange aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose iri ku ntoki zabo ishobora kubateza uburwayi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo bapimwe ibiro byabo, bamenye niba bafite imirire myiza. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa n'abaganga babugenewe.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umuturage wicaye mu ntebe, amutera urushinge.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara zitandukanye. Umuganga ari kwita ku mwana ukiri muto amukingira. Iruhande rwe hari abandi babyeyi baje kwivuza.

Ku ivomero rusange aho umugore ukiri muto uhetse umwana mu mugongo ari koza indobo akoresheje amazi meza ari kuva muri robine hakurya y'ivomero hateye ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubateza uburwayi.

Ku ivomero rusange aho abaturage higanjemo abagore baje kuvoma amazi meza bitwaje indobo zo kuvomeramo, umwe muri bo ari kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu ndobo, hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana uteruwe na mama we, aha kandi hari ameza hariho ibikoresho biri kwifashishwa muri iki gikorwa.

Ku ivomero rusange, aho umugore ukiri muto, yaje kuvoma amazi meza ava muri robine, yitwaje amajerekani. Iruhande rw'ivomero, hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange, aho umusaza ukuze yazanye ijerekane kugira ngo avome amazi meza ari kuva muri robine. Hakurya y'ivomero kandi, hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho umwana ukiri muto w'umukobwa wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose, ishobora kumutera uburwayi.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato b'abanyeshuri, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe baje kuvoma amazi meza ava kuri iri vomero bitwaje indobo ndetse n'ujerekani. Hakurya y'ivomero hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Hari intebe abarwayi bicayeho mu gihe bategereje kugira ngo babashe kwakirwa bityo bahabwe serivisi z'ubuvuzi. Ku gikuta kandi, hamanitseho ibyapa byerekana serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto w'umuhungu, ari kuvoma amazi meza ari kuva muri robine, ajya mu majerekani yaje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero hateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto w'umukobwa ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo akomeze gukuraho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi, kuri iri vomero kandi hariho icyapa.

Umwana ukiri muto w'umukobwa uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumuteza uburwayi biturutse kuri iyi myanda.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'bahungu ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu kandi bambaye ingofero z'umweru, aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ku rukarabiro aho umunyeshuri ukiri muto wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine, kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi.

Ahabereye igikorwa cyo gusuzuma abaturage indwara zitandukanye, kiri gukorwa n'abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe aho bari gupima abaturage bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama. Imbere y'abo hari ameza ateretseho amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Hanze y'Ikigo Nderabuzima cya Nyabageni. Habereye igikorwa cyo gukingira abaturage ndetse no kubavura indwara zitandukanye. Cyitabiriwe n'abaganga b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore ukuze uvuye kuvoma amazi ku ivomero rusange, yikoreye indobo y'umutuku kandi afite indi y'umuhondo mu ntoki ze, aho atwayemo amazi yo gukoresha imirimo itandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bari bari kwiga uburyo bagomba kwirinda inda zitateganyijwe. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi imbere yabo hateretse ameza ariho mudasobwa .

Imbere y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu bagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, imbere y'abo hahagaze umugabo wambaye amakoti y'umukara ari kubakoresha inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana muto uteruwe na mama we, kugira ngo bamurinde indwara zitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore, ndetse n'abakobwa. Bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'ubururu kandi bose bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru.

Ku ivomero rusange, aho umwana ukiri muto ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine, kugira ngo akarabe imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi. Iruhande rwe hateretse amajerekane arimo amazi meza yavuye muri robine.

Ahaberiye igikorwa cyo gupima indwara ya SIDA, hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite ikaye mu ntoki ze, aho ari kwandika amakuru y'abarwayi, afite kandi telefoni mu ntoki ze, inyuma yabo hari icyapa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana, imbere yabo kandi hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Ku ivomero rusange, aho umwana ukiri muto yazanye amajerekane kugira ngo avome amazi meza ari kuva muri robine, hakurya y'ivomero hateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange, aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Hari umwana ukiri muto w'umuhungu uri kunywa amazi avuye muri robine akoresheje intoki ze. Hakurya y'ivomero hateye ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye bafite ibyo kurya imbere yabo, inyuma yabo kandi hari ikibaho cyanditseho amasomo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, hicaye ababyeyi b'ingeri zitandukanye, bazanye abana babo kugira ngo bakingirwe n'abaganga bityo babarinde indwara zitandukanye, zishobora kubafata mu buto bwabo.

Ku ivome rusange aho umwana ukiri muto ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza kugira ngo akureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kumutera uburwayi, iruhande rwe hari amajerekani yo kuvomeramo.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato b'abahungu, bazanye indobo zifite ibara ry'umweru kugira ngo bavomeremo amazi meza ari kuva muri robine, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye z'abantu, harimo abagabo, abagore abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe bakurikiranye inama, iruhande rwabo hateretse utumeza duteretseho amazi meza yo kunywa.

Umwana ukiri muto w'umuhungu, wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva mu ndobo y'umweru kugira ngo akureho imyanda ishobora kumutera uburwayi.

Abajyanama b'ubuzima, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagararanye n'abayobozi babo, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo, hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye. Harimo umukobwa wambaye umwambaro w'umuhondo ndetse n'ubururu kandi afite imisatsi miremire, ni we ubicuruza kugira ngo abihereze ababikeneye.

Mu rugo rw'umuturage. Umujyana w'ubuzima ari kumwe n'umwe mu bagize umuryango, ari kumuganiriza. Afite igipimo mu ntoki ze, aho amaze gupima umuriro w'umwana kugira ngo amenye niba ntaburwayi afite.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere hahagaze umugabo uri kubakoresha inama. Muri iki cyumba kandi ku gikuta hariho ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Iruhande rw'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagararanye n'umuyobozi wabo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Iruhande rwabo hateretse ameza ariho amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere yabo hari ameza arambitseho amazi meza yo kunywa, umugore umwe muri bo ari kubakoresha inama.

Ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bose bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi kibisi bari kugenda mu muhanda bafite icyapa kiriho insanganyamatsiko yaranze umunsi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama.

Mu kibuga cyabereyemo igikorwa cyo gukingira abaturage cyitabiriwe n'abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku baturage babahereza serivisi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama abereka, amashusho imbere ye.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere, hanze y'ibitaro kandi hahagaze umusore.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari bikoresho bitandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana kandi bafite uducupa turimo amazi meza yo kunywa; muri iki cyumba kandi harimo icyapa kiriho insanganyamatsiko iri kuranga inama.

Hanze y'inyubako ibera mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu rugo rw'umuturage aho umujyanama w'ubuzima yagiye kuganiriza abaturage kugira ngo abashishikarize gukora isuku ku mubiri wabo ndetse no mu rugo muri rusange, inyuma yabo hateye ibyokurya by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama, hari umugabo ndetse n'umugore bicaye imbere umugore afite indangururamajwi aho ari gutanga ibitekerezo bye, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore n'abasore ndetse n'abakobwa, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama, bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu kigo cy'ishuri abana b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kumwe n'umuyobozi wabo, bose bafite ibikoresho mu ntoki zabo byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo akuremo imyanda iyo ariyo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo umurwayi uryamye ku gitanda ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, aho ari kumukura iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Kwa muganga, kimwe mu cyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku murwayi amusuzuma, arebako nta kibazo afite mu menyo ye. Inyuma yabo hari utubati tubikwamo ibikoresho, byifashishwa mu buvuzi.

Umusore ufite urudodo mu ntoki ze, rwabugenewe, rwifashishwa mu gukura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo, kugira ngo itazateza uburwayi bw'amenyo, cyangwa kwangirika.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bafite ibikoresho mu ntoki zabo bifashisha bari gukura imyanda mu menyo kugira ngo itazabateza uburwayi butandukanye.

Mu kigo cy'amashuri abana b'abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bose bamanitse amaboko hejuru, bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, bakuramo imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, aho umukobwa ukiri muto ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kureba ko nta kibazo afite mu menyo ye, akoresheje udukoresho twabugenewe.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru kandi ateze igitambaro mu mutwe we gifite ibara ry'umweru ari gukora isuku y'amenyo yifashishije igikoresho cyabugenewe aho ari gukuramo imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari gusuzuma abaturage baje kwivuza kugira ngo bamenye neza niba nta kibazo cy'amenyo bafite.

Umwana ukiri muto w'umuhungu uri gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira akuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi.

Umwana ukiri muto wicaye mu ntebe ari gukora isuku y'amenyo yifashishije igikoresho cyabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ariyo yose yaba yafashe mu menyo itazamutera uburwayi.

Umusore uri gkora isuku y'amenyo, akoresheje urudodo rwabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo, itazamuteza uburwayi butandukanye.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bari gusuzumwa n'abaganga, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukora isuku y'amenyo bakoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose iri mu menyo itazabateza uburwayi.

Urudodo rwabugenewe rwifashishwa mu gukura imyanda mu menyo rufitwe n'umusore ukiri muto uri kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe amenyo ye kugira ngo akuremo ikintu cyose gishobora kumutera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'intebe umurwayi yicaraho iyo ari kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho. Muri iki cyumba kandi harimo televiziyo yerekana amashusho.

Umwana ukiri muto, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye ga zo mu ntoki kugira ngo arebe neza ko nta kibazo afite mu menyo ye, cyangwa niba hari uburwayi afite abuvuri.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga aho basuzumira abarwayi, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe wicaye ku ntebe, harimo kandi igitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo, akoresheje urudodo rwabugenewe, kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kumuteza uburwayi butandukanye. Ari kwireba mu ndorerwamo.

Umusore uri kumwe n'umwana muto w'umuhungu, bari gukora isuku y'amenyo bakoresheje urudodo rwabugenewe, kugira ngo bakuremo imyanda iyo ariyo yose yaba yafashe mu menyo, itazabateza uburwayi butandukanye bw'amenyo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda asuzuma amenyo ye akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, afite igikoresho cyifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, aho ari kugikoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo kugira ngo itazamuteza uburwayi butandukanye, imbere ye hateretse urupapuro rw'isuku.

Icyumba kiri mu nyubako ahatangirwa ubuvuzi, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse n'amataratara, afite ifoto ye imbere ari kureba akamenya uburwayi umuntu afite.

Umugore ndetse n'umwana muto w'umukobwa, bose bambaye udusengeri tw'umweru, bari gukora isuku y'amenyo bifashishije udukoresho twabugenewe kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo muganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, kandi yambaye agapfukamunwa ndetse n'amataratara, ari gukoresha imashini akora ubushakashatsi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, afite imisatsi miremire kandi ari kwireba mu ndorerwamo, aho ari gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga, umugabo ukuze ari kugendera ku byuma aho biri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaguru ye agororoke neza, ari kubifashwamo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Mu ruganiriro aho umusaza ukuze ari kwarura ibiryo kugirango ngo abirye, iruhande rwe hateretse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa n'aho inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo.

Umugore ukuze ufite imisatsi y'umweru, yambaye amataratara kandi afite ikirahure mu ntoki ze kirimo amazi meza yo kunywa, muri iki cyumba yicayemo kandi hari ishusho imanitse ku rukuta.

Umukecuru ufite imisatsi y'umweru, ari kwitabwaho n'umuganga ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Inyuma yabo hari ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Mu ruganiriro umukecuru ukuze uri kumwe n'umusaza, bicaye mu ntebe bafite imiti mu ntoki zabo, kandi bari gusoma urupapuro rubereka uko bagomba gufata imiti, imbere yabo hatetse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ku meza bari gufata amafunguro harimo imboga ndetse n'imbuto, iruhande rwa bo kandi hateretse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa, inyuma yabo hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu rugo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hicayemo abaturage harimo abagore, abagabo, abana bakiri bato ndetse n'abakuze, bari kuganira bicaye hamwe.

Umusaza ukuze uri kwitabwaho n'umuganga amufasha kumanuka ku gitanda, muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu ikoreshwa mu kwirinda Malariya, harimo kandi utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako, kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibyuma byabugenewe, aho ari gufashwa n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Abamama bakuze bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, bari gukora imyitozo ngororamubiri barambura amaboko yabo kugira ngo agororoke neza bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza, inyuma yabo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ku kibuga kiberaho imikino itandukanye. Umusaza ukuze ari gukina n'umwana we, bafite umupira mu ntoki zabo. Inyuma yabo hakurya y'ikibuga hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umukecuru ukuze uhagaze iruhande rw'ameza, afite indangururamajwi mu ntoki ze, aho ari gutanga ibitekerezo bye ku bitabiriye inama, inyuma ye hateye ibiti by'ubwoko butandukanye kandi haparitse imodoka.

Umusaza ukuze wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ikibazo mu maguru cyangwa ikibazo cy'umugongo. Ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, kandi inyuma ye hari intebe yo kwicaramo.

Umukecuru ukuze ufite ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa mu ntoki ze. Ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumuha ibinini anywesha amazi meza. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibikarito.

Munsi y'igiti ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bose barebana bari kuganira.

Umumama ukuze wicaye mu ntebe, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bicaye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru ukuze bafite imiti imbere yabo bari gusoma uburyo igomba gukoreshwa, imbere yabo kandi hari ameza ateretseho mudasobwa naho inyuma yabo hari utubati tubikwamo ibikoresho.

Umucecuru ukuze, uri kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumuha ibinini byo kunywa. Bafite kandi ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa, inyuma yabo hateretse ivaze, iteyemo ururabo.

Mu ruganiriro aho umusaza ukuze ari kwitabwaho n'umugore umwicaye imbere. Ari kumuha ibinini byo kunywa ndetse iruhande rwabo hateretse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa.

Umusaza ukuze ari kwitabwaho n'umuganga, aho afite igikoresho mu ntoki ze kifashishwa mu kureba niba umuvuduko w'amaraso uhagaze neza kugira ngo amenye niba nta zindi ndwara afite.

Umusaza ukuze uryamye ku gitanda, ari kwitabwaho n'umukecuru ukuze, aho ari kumuha amazi meza yo kunywa, kugira ngo ayanyweshe ibinini.

Icyumba bateguriramo ibyo kurya, aho umukecuru ndetse n'umusaza bari gufata imiti yo kunywa ndetse basoma urupapuro kugirango ngo bamenye uburyo igomba gukoreshwa, inyuma yabo hari ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku musaza ukuze ,amufasha gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ye ,kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu cyumba cyo kuraramo harimo umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kubifashwamo n'umuganga ukiri muto w'umukobwa wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, muri iki cyumba kandi harimo itara ryo gucana.

Umusaza ukuze ufite ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa mu ntoki ze. Ari kwitabwaho n'umuganga ukiri muto, aho ari kumuha ibinini kugira ngo abinyweshe amazi.

Abagabo babiri bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, bari gukora siporo kandi bafite amacupa mu ntoki zabo arimo amazi meza yo kunywa.

Umugore ukuze wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa ikibazo cy'umugongo bituma badatambuka neza, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo umusaza wicaye mu ntebe, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumupima akoresheje igikoresho cyabugenewe, kugira ngo arebe uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Umusaza ukuze ufite imisatsi y'umweru, yicaye mu rukarabiro aho ari gukorerwa isuku hakoreshejwe amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bamukureho imyanda iyo ariyo yose iri ku mubiri we.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku meza bari gufata amafunguro, harimo imboga ndetse n'imbuto. Imbere yabo hateretse ikirahure, kirimo amazi meza yo kunywa.

Umusaza wambaye amataratara kandi afite ekuteri mu mu matwi ye ari kumviramo indirimbo, yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, asimbuka umugozi, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ukuze ufite inkoni mu ntoki akoresha kugira ngo atambuke, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi afite ikarita imuranga.

Muganga, umusaza ukuzwe ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaguru, yifashishije ibikoresho byabugenewe. Ari kubifashwamo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba gitegurirwamo ibyo kurya aho umukobwa ari kwarurira umukecuru ndetse n'umusore abahereza ibyo kurya, harimo imboga, imbuto ndetse n'imigati kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, inyuma yabo kandi hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Imbere hahagaze abagabo babiri bambaye amakote y'umukara kandi bafite amakaye mu ntoki zabo, bari gusuhuzanya bafata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe abandi barahagaze, bazamuye amaboko yabo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kurwanya indwara ya kanseri, ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira y'umweru kandi bafite ibyapa imbere yabo bigaragaza insanganyamatsiko y'umunsi.

Kwa muganga hanze y'inyubako yakirirwamo abagore, hari icyapa kiyobora abadamu baje kwivuza kugira ngo batayoba, aha kandi hicaye abagore b'ingeri zitandukanye bategereje kwakirwa na muganga wabo.

Icyapa kiriho ubukangurambaga bwo kurwanya indwara ya kanseri, cyerekana uburyo ishobora kwirindwa cyangwa uburyo uyirwaye ashobora kwitwara kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, bityo abeho igihe kirekire.

Icyumba cyabereyemo inama, imbere hahagaze umugabo ndetse n'umugore bafite icyapa mu ntoki zabo, kerekana insanganyamatsiko y'umunsi, bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo kandi hari intebe yo kwicaramo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe, imbere yabo hicaye abayoboye inama. Imbere yabo kandi hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyicayemo ababyeyi bazanye abana babo kugira ngo bakingirwe indwara zitandukanye, aha kandi muri iki cyumba ku rukuta hari ibishushanyo by'ubwoko butandukanye bigaragaza serivisi zitangwa.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse mu mitwe yabo, bari kuvura umurwayi aha kandi hari imashini zifashishwa mu buvuzi ndetse n'imashini zerekana amashusho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hicaye abagabo babiri bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'indangururamajwi nibo bayoboye inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama, bose bateze amatwi.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo; abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe abandi barahagaze, bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo kandi hari ibyapa bigaragaza ibyaranze inama.

Umuganga w'umukobwa wambaye umwambaro w'akazi wabugenewe, yambaye agapfukamunwa kandi yipfutse mu mutwe we, afite igikoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gupima bareba uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Ahabereye igikorwa cyo gutanga impapuro z'isuku ku bana bakiri bato, kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa, abana bicaye mu ntebe bategereje ko bahabwa impapuro z'isuku.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage kugira ngo babarinde indwara z'ubwoko butandukanye. Hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umuturage wicaye mu ntebe amutera urushinge.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Imbere muri iyo nyubako, hari itorero riri kubyina kugira ngo risusurutse abitabiriye inama.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, hahagaze umusore ndetse n'umukobwa bahagaze hamwe kandi bafite amakarita abaranga, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bose bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama.

Inkingo zifashishwa mu gukingira indwara, iterwa na virusi y'ubushita bw'inkende. Iri mu macupa maremare, afite ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko y'icyatsi kibisi. Kandi kuri yo, handitseho inyuguti mu ibara ry'umukara, ndetse n'umutuku.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, ni we uri gukoresha inama. Iruhande rwe hari utumeza turiho ibikoresho bitandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukoresha imashini kugira ngo arebe amakuru y'umurwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga, kandi harimo imashini z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Mu ruganiriro, ahari intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye. Aha kandi, hari amavaze ateretsemo indabo zizana umwuka mwiza mu ruganiriro.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu baje muri iyi nyubako kugira ngo babonane n'abaganga. Aha kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho igiye ipanze mu tubati dufite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, aha kandi hari intebe abarwayi baje kwivuza bicaramo.

Hanzey' inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ku muryango hateretse amavase ateyemo indabo, n'aho imbere y'inyubako kandi hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi aho kigaragaza amashusho y'umurwayi ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu kugira ngo abaganga bamwiteho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aha kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu isuzuma.

Ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hejuru hari icyapa kiyobora abaje bagana ibi bitaro kugira ngo batayoba, aha kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye; harimo igitanda umurwayi aryamaho, agiye kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'intebe zokwicaramo. Muri iki cyumba kandi, harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze y'ikigo nderabuzima cya shagasha, hari amagambo yanditse kuri iyi nyubako kugira ngo ayobore abaje bayigana, hanze kandi hicaye abaturage baje kwivuza.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa. Hari intebe bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa cyangwa guhuzwa n'umuganga uri bubashe kubavura.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga yakirirwamo ababyeyi batwite cyangwa abafite abana bakiri bato, hari abayobozi bicaye hamwe umwe muri bo arahagaze ari gutanga ibitekerezo mu bitabiriye inama.

Ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, hari icyapa kinini kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, kuri aya marembo kandi hahagaze umumama uhetse umwana mu mugongo we, baje kwivuza.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Hari intebe umurwayi yicaraho igihe agiye kwitabwaho n'umuganga, ndetse n'imashini yinjizwamo amakuru umurwayi ari gutanga, kugira ngo bamenye uko bari bumuvure.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amaso. Hari intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuma abarwayi n'indobo bajugunyamo imyanda.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Remera rukoma, hari ibigega bikorwamo amazi akoreshwa mu mirimo itandukanye, ndetse kuri iyi nyubako hariho kizimyamwoto, yifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro, aha kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bategerereza kugira ngo babone guhuzwa n'umuganga uri bubiteho, hari intebe bicararaho igihe bategerejwe kwakirwa ndetse n'utugare twicarwamo n'abafite ikibazo mu maguru cyangwa mu mugongo.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa kugira ngo babone guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Hari intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa ndetse na tereviziyo yerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari gusuzumwa n'abaganga, ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa cyangwa bategerereza kugira ngo babashe kwakirwa. Hari intebe bicaraho mu gihe batarahabwa serivisi, bategereje guhura n'umuganga wabo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri bato hari icyapa kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba hanze y'inyubako kandi haparitse imodoka

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari umwana ukiri muto wicaye mu kagare gakoreshwa n'abafite ikibazo mu maguru yabo, cyangwa ikibazo cy'umugongo. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye, kandi hari ikigega kibikwamo amazi yifashishwa mu gukora imirimo itandukanye.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, iruhande rwayo hari inyubako nini iberamo inama, hanze kandi hateye ibyatsi ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imashini byifashishwa n'abaje muri iyi nyubako kugira ngo babikoreshe imyitozo ngororamubiri, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Kwa muganga icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga wambayege imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gusuzuma umwana ukiri muto, muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze yi nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, haparitse imodoka ndetse na moto kandi hateye ibyatsi n'indabo z'ubwoko butandukanye, hanze y'inyubako kandi hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo kandi abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere. Hanze kandi haparitse imodoka zifite amabara y'umukara z'abakora muri iyi nyubako.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku mwana ukiri muto umaze kuvuka. Muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'inzitiramibu zibarinda umubu wa malariya, harimo kandi utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga aho bakirira abarwayi baje kwivuza, harimo intebe abarwayi bicararaho mu gihe bagitegereje, ndetse n'ameza ateretseho ivase irimo ururabo. Muri iki cyumba kandi harimo televiziyo yerekana amashusho.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara ya maso, ku nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba; hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, ari kwitabwaho n'abaganga, bamusuzuma kugira ngo bamenye ikibazo afite.

Ku marembo y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari imodoka iri gusohoka muri iyi nyubako ndetse n'umugabo ushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka muri ibi bitaro. Hari icyapa kandi kiyobora abaje bagana hano ndetse kikerekana serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Muri iki cyumba kandi ku gikuta hamanitse isaha.

Ahabereye igikorwa cyo gupima abantu bakuze indwara z'umuvuduko, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kubapima akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, aho basuzumira abarwayi, harimo imashini yifashishwa mu gutanga amashusho, yerekana mu mubiri w'umuntu ahari ikibazo kugira ngo abaganga bamukurikirane.

Ku marembo y'ibitaro bivurirwamo indwara z'ubwoko butandukanye. Hari icyapa kinini, kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro. Hakurya y'ibitaro kandi hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kugenda basuzuma abarwayi, aha kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho ndetse n'indobo zo kujugunyamo imyanda.

Ku marembo y'inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba, hari ikindi cyapa kandi kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Ku marembo y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari umugabo wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka, ku marembo kandi hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi nka mudasobwa ndetse n'ibindi bikoreshwa bari gusuzuma abarwayi. Harimo kandi umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukoresha mudasobwa.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hejuru ku nyubako, hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Hanze y'inyubako kandi, hateye indabo z'ubwoko butandukanye, zizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerereri. Ku nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana, kugira ngo batayoba, kandi hateye indabo zifite amabara atandukanye, nk'umuhondo, icyatsi kibisi, ndetse n'umweru.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo kandi imashini zikoreshwa zerekana amashusho kugira ngo hamenyekane neza ikibazo umurwayi afite.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kabutare. Hahagaze abaganga ndetse n'abayobozi babo kandi bose bambaye udupfukamunwa, aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze yayo hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere, ku marembo y'ibitaro hari icyapa kinini, kiyobora abaje bahagana kugira ngo batayoba.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho bari kwitabwaho n'abaganga, cyangwa bari kuruhuka. Harimo kandi inzitiramibu zikoreshwa mu kwirinda umubu utera malariya.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara y'amaso, harimo intebe umurwayi ndetse n'umuganga bicaraho, ndetse n'imashini zifashishwa bari gusuzuma kugira ngo barebe ikibazo kiri mu jisho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umumama wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku mwana ukiri muto, aho ari kumupima kugira ngo arebe neza niba umuvuduko we w'amaraso uhagaze neza.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, hari ibyuma bifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, bikoreshwa n'abana baba baje kwivuza kugira ngo bumve umunyenga. Aha kandi hateye ibyatsi ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Ku marembo y'ibitaro bya Sangwa bivura indwara zitandukanye, hari icyapa kinini cyanditseho serivisi zitangwa muri ibi bitaro ndetse kiyobora abaje bagana aha ngaha kugira ngo batayoba.

Hanze y'inyubako y'ibitaro itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari icyapa kinini kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana ndetse n'imodoka ziparitse hanze zifite amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo abaje bahagana bakomeze kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Kimwe mu cyumba, kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye; harimo igitanda umurwayi aryamaho, igihe ari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gukingira abaturage, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, nibo bari kubitaho, muri iki cyumba kandi harimo utudobo two kujugunyamo imyanda.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda kiryamweho n'umurwayi uri kwitabwaho n'umuganga, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Inyuma yabo kandi, harimo ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, muri iki cyumba kandi harimo televiziyo zerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho yerekana amashusho mu mubiri w'umuntu bakamenya ahari ikibazo abaganga bakamukurikirana, harimo kandi utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi, harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zikoreshwa n'abaje gukora siporo kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, muri iki cyumba kandi harimo televiziyo yerekana amashusho.

Icyumba cyabereyemoma inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore, abakobwa ndetse n'abana aho umugabo umwe ahagaze imbere afite indangururamajwi ari gukoresha inama.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu buvuzi, harimo kandi ameza aterekwaho ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma ndetse n'imashini zigaragaza ibisubizo byavuye mu bizami.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge. Hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba. Hanze kandi, hateye indabo z'ubwoko butandukanye, zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, aho basuzumira abarwayi, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga, muri iki cyumba kandi harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umurwayi uryamye ku gitanda, aho iruhande rwe hari imashini z'ubwoko butandukanye, zimufasha gukorerwa ubuvuzi.

Inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hanze y'inyubako hari icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, aha kandi haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye.

Mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'inzitiramibu zibarinda indwara ya malariya. Harimo kandi imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Kwa muganga aho umurwayi wicaye mu ntebe ari kwitabwaho n'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bamupima bakoresheje ibikoresho byo kwa muganga, bamwe baricaye abandi barahagaze iruhande rwabo kandi hari imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri bato, hahagaze abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore, ndetse n'abakobwa, abayobozi ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa, kandi bipfutse mu mitwe yabo. Bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, ndetse iruhande rwabo hari imashini, zifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga, muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu wa Malariya.

Kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari abaturage baje kwivuza bicaye bategereje guhura na muganga, aha kandi hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse zikerekana amashusho mu mubiri w'umuntu ahari ikibazo, iruhande rwayo kandi hateretse igitanda umurwayi aryamaho ari kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho, iyo bari kwitabwaho n'abaganga kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Hanze inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, haparitse imodoka z'ubwoko bwinshi, harimo izifashishwa mu kuzana abarwayi kwa muganga kugirango babashe kwitabwaho byihuse.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa, harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa ndetse hari mudasobwa zikoreshwa bari kwinjiza amakuru yabo muri sisitemu.

Ahabera imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora siporo; kugira ngo uzikoze arusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe abarwayi bicaraho iyo bari gusuzumwa n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma, kugira ngo hamenyekane ikibazo umurwayi afite.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga aho basuzumira abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite, harimo imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kwerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igitanda umurwayi aryamaho, igihe ari gusuzumwa n'umuganga ndetse n'imashini yifashishwa mu gusuzuma kandi ikerekana amashusho mu mubiri w'umuntu.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse kikerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, kugira ngo abaganga bamenye uko bagomba kumuvura.

Hanze y'inyubako yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato ku nyubako hariho icyapa kiyobora abaje kwivuza kugira ngo batayoba, hanze kandi hateretse amavase ateye mo indabo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi, bw'indwara zitandukanye. Hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko bwinshi, bizana umwuka mwiza, muri iki kirere. Aha kandi hashinze amapironi, y'amashanyarazi.

Hanze inyubako yo kwa muganga yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato, hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Iruhande rw'iyi nyubako kandi hari gutambuka umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiberamo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubikoresheje wese akomeze kugira ubuzima bwiza. Muri iki cyumba kandi hari isaha imanitse ku gikuta.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa n'abagana iyi nyubako kugira ngo bakore siporo, muri iki cyumba kandi harimo televiziyo zigaragaza amashusho.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kinini kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana ndetse n'indabo ziteye hanze y'inyubako kugira ngo zizane umwuka mwiza.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana, hanze yayo kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye kandi haparitse imodoka.

Hanze y'inyubako y'ibitaro iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba, hanze ya yo kandi haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara.

Kwa muganga, mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bateruye uruhinja mu ntoki zabo. Inyuma yabo kandi hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Kwa muganga icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Harimo kandi televiziyo yerekana amashusho ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho.

Hanze h'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa cyanditseho serivisi zitangwa muri iyi nyubako, hanze y'ibitaro kandi hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igitanda umurwayi aryamaho ari gusuzumwa n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma no kwerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Hafi y'inyubako y'ibitaro bya Butaro, ahabera ubuvuzi bw'indwara ya Kanseri. Hari abayobozi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ku marembo y'ibitaro bivurirwamo indwara z'ubwoko butandukanye, haparitse imodoka ndetse hari abaturage bahagaze hanze y'ibitaro, aha kandi hateye indabo ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko bwinshi, bizana umwuka mwiza muri iki kirere, hanze kandi hateretse indobo zo kujugunyamo imyanda.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abarwayi baryamye ku bitanda byabugenewe, aha kandi harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda, abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga, kugira ngo bakomeze gukurikiranwa.

Kwa muganga icyumba kiryamyemo umurwayi uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, kugira ngo amenye neza ikibazo afite. Harimo kandi inzitiramibu ikoreshwa no kwirinda umubu wa malariya.

Ku marembo y'inyubako aberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro, hanze y'iyi nyubako kandi, haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, ndetse hateye ibiti n'indabo bizana umwuka mwiza.

Igikoresho cyifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bamenye neza niba umutima wabo uri gutera neza cyangwa niba nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bafite bityo bitabweho n'abaganga.

Igikoresho cyifashishwa n'abakunze gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo kibereke uko umutima wabo uri gutera, kandi kibereke neza niba umuvuduko wabo w'amaraso uhagaze neza.

Igikoresho kiri mu cyumba cyo kwa muganga, cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi cyerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu kugira ngo umuganga amwiteho abashe no kumuha imiti yamuvura.

Ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye harimo imiti yo kwikandisha, amasiso, ibyo gukora isuku n'ibindi bitandukanye, byifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Kwa muganga, aho umurwayi ufite ikibazo mu kaguru ke ari kwitabwaho na muganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kumufasha guhina akaguru ke ndetse akarambura, kugira ngo karusheho kugororoka neza uko bikwiriye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'amamashini, yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza, harimo kandi umugabo wicaye ku ntebe, ufite mudasobwa imbere ye.

Igikapu gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, ku wagize ikibazo cyo gukomereka n'ubundi burwayi butandukanye.

Ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hari isahani iteretseho ibyo kurya. Harimo imbuto ndetse n'ibindi byongera isukari mu mubiri w'uwakoze imyitozo.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo abasore babiri umwe ari gufasha mugenzi we gukora imyitozo ngororamubiri, aha kandi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'abaje gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Yambaye ekuteri mu matwi ari kumviramo indirimbo kandi ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikibuga kiri kuberamo siporo, igikorwa cyitabiriwe n'abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe kandi yambaye agakomo ku kaboko ke gafite ibara rya move. Ari kwisuka amazi meza mu maso kugira ngo agabanye ubushyuhe yatewe no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto. Ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye, kugira ngo bigororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto zabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako ibera mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umukobwa wicaye ku gitanda ari kwitabwaho aho bari kumupfuka igisebe cye kiri ku kaguru kugira ngo birinde ibindi bibazo.

Umuntu wicaye ku gitanda mu nyubako yo kwa muganga. Ari kwitabwaho, aho bari kumupfuka ku kaguru ke ahagize ikibazo kugira ngo adakomeza kubabara. Iruhande rwe hari ibikoresho biri kwifashishwa bari kumupfuka.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo umurwayi ukiri muto, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumusuzuma akoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo arebe neza ko ntakibazo afite mu kanwa ke.

Ikibuga kiri kuberamo siporo yo kwiruka, iri gukorwa n'abasore bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bari gusuzumwa ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite.

Umusore ukuze wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Ahari ibyo kurya nka karoti, amagi, inyama, ibishyimbo, pavuro, imboga z'ubwoko butandukanye ndetse n'imbuto, iruhande rwabyo hari amazi meza ari mu icupa yo kunywa ndetse n'umuntu ufite igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ku kibuga kiberaho imyitozo ngororamubiri. Harimo umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'undi umuhagaze iruhande, uri kumufasha. Inyuma yabo kandi, hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo.

Igikoresho kiri mu nyubako kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo hamenyekane ikibazo umurwayi afite. Muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umusore ukuze wambaye umupira w'ubururu kandi yambaye isaha ku kaboko ke, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto byabugenewe. Yambaye ekuteri mu matwi ari kumviramo indirimbo kandi yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe, hari icupa ririmo amazi meza yo kunywa.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yicaye hasi ku itapi ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hateretse icupa ririmo amazi meza yo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye kandi hari intebe yo kwicaramo.

Imiti iri mu macupa maremare y'umweru kandi afite imifuniko y'umweru, akoreshwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ibagabanyirize uburibwe nyuma y'uko bamaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahabereye imyitozo ngororamubiri. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Iruhande rw'aho bari, hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto, harimo amaronje, pome ndetse n'ibindi bitandukanye, hateretse kandi ikirahure kirimo umutobe wo kunywa ndetse iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, apfukamye hasi kuri tapi ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, iruhande rwe kandi hari igikoresho kimufasha kumva imiziki.

Umusore wicaye mu kagare ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufa ye akomeze gukora neza, abifashijwemo n'umuganga umuhagaze iruhande. Muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Igare rifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu, gafite amapine ndetse n'intebe yo kwicaraho, aho gakoreshwa n'umuntu ufite ikibazo mu maguru ye cyangwa mu mugongo kugira ngo kamufashe kugenda.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa n'ababa baje muri iyi nyubako kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari imbuto zo kurya z'ubwoko butandukanye nk'umuneke, pome, amaronji, imizabibu ndetse n'izindi zitandukanye ziribwa n'abakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo zibongerere isukari. Iruhande rwazo hari umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe afite ekuteri bumviramo indirimbo, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibyoku kurya higanjemo imbuto nka pome amaronje ndetse n'ibindi bitandukanye, iruhande rwabyo hari icupa ririmo amazi meza yo kunywa, aha kandi hari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye mu gitanda, mu cyumba cyo kwa muganga, yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, aho ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, amupfuka ku kaguru ke ahari ikibazo.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imbuto, harimo amaronje, pome, imizabibu ndetse n'izindi zitandukanye, iruhande rwabyo hari umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru ye.

Umusore ukuze wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse anayahina, kugira ngo agororoke neza bityo bimufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uri gukora siporo ndetse iruhande rwe hari umukobwa waje gukora siporo, muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa n'abaje muri iyi nyubako kugira ngo barusheho gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo, yabugenewe. Afite isume ku rutugu rwe, akoresha yihanagura ibyuya, kandi ari kunwa amazi meza, akoresheje icupa ryabugenewe.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, yabugenewe. Yicaye hasi ku itapi, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru ye, ndetse n'amaboko ye, kugira ngo bigororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo, yabugenewe, afite telefoni mu ntoki ze, harimo ekuteri, kandi afite isume, ku rutugu rwe. Ari kunywa amazi meza, akoresheje icupa ryabugenewe, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Akamashini kifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bamenye neza uko umutima wabo uri gutera kandi kabafashe gupima niba umuvuduko w'amaraso uhagaze neza bityo bamenye niba nta ndwara bafite.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Aryamye hasi ku isima aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ahina amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo agororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabereye inama y'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bari kureba amashusho kuri televiziyo kugira ngo babone uko bagomba gukora akazi, imbere hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umusore wambaye inkweto ndetse n'ikabutura bya siporo, yambaye isa ku kaboko kandi ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru ye, aho ari kugendera ku byuma byabugenewe. Ari kubifashwamo n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku kandi yambaye ekuteri mu matwi ye, afite imisatsi miremire ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaboko ye kugira ngo arusheho kugororoka neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Ikibuga kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo umugabo uri kugendera mu kagare kugira ngo kamufashe gutambuka neza. Harimo kandi umusore ufite umupira wo gukina mu ntoki ze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma ndetse n'imashini z'ubwoko bwinshi zigaragaza amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, imboga, imbuto, inyama, ndetse n'amagi byifashishwa mu kongera intungamubiri mu mubiri w'uwakoze imyitozo ngororamubiri. Hari kandi ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora siporo.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri; harimo umusore uryamye hasi, ari gukora siporo abifashijwemo n'umusore uri iruhande rwe. Muri iki cyumba kandi, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa muri siporo.

Igikapu gifite amabara y'umutuku umukara ndetse n'icyatsi kibisi, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'amaga yo kwambara imikasi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze.

Igikapu gifite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'icyatsi kibisi. Kibikwamo ibikoresho bitandukanye nk'amasizo, ibipimo, amaga, amamashini yifashishwa mu gupima indwara ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yicaye mu byatsi hasi, aho ari kwifata mu kaguru ke ahari ikibazo, kugira ngo ahakande uburibwe burangire.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo ibitanda biryamyeho abarwayi ndetse n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari kureba igikoresho kerekana amashusho y'umurwayi.

Abasore babiri bambaye imyambaro y'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, bateruye umusore wagize ikibazo kugira ngo babashe kumwitaho bamugabanyirize uburibwe. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu bambaye imipira y'umweru.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Afite imisatsi miremire ,kandi yicaye ku gitanda, aho ari kwinanura kugira ngo amaboko ye agororoke neza. Icyumba arimo kandi, ku gikuta hamanitse igishushanyo.

Ifoto iba yafashwe n'imashini zo kwa muganga kugira ngo bamenye neza ikibazo umurwayi afite, iragaragaza urutirigongo, imbavu ndetse n'amagufa y'umubiri w'umuntu.

Ahabera imyitozo ngororamubiri, aho umusore wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukora siporo, yambaye isaha ku kuboko, arunamye kugira ngo arusheho kugororoka neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Yicaye hasi ku itapi ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uryamye ku gitanda, ari gukora siporo abifashijwemo n'abandi bagabo bamuhagaze iruhande, muri iki cyumba kandi, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye hasi ku itapi, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Arambuye amaguru ye ndetse n'amaboko ye, kugira ngo bigororoke neza; bityo akomeze kugira ubuzima bwiza. Iruhande rwe, hari intebe yo kwicaramo.

Icyumba kirimo abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze ku wakomeretse cyangwa uwagize ibindi bibazo by'uburwayi. Imbere yabo bamwe muri bo bari kubigisha uburyo bagomba gutanga ubu butabazi.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora siporo. Kuri iki cyumba kandi ku gikuta handitseho amagambo.

Igikapu gifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, kirimo ibikoresho byifashishwa n'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo batabare abakomeretse cyangwa bagize ibindi bibazo.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite isume y'umukara ku rutugu rwe akoresha yihanagura ibyuya, ari kunywa amazi meza kandi akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yambaye ekuteri mu matwi ari kumviraho indirimbo kandi aziritse imisatsi ye, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye kugira ngo agororoke neza.

Umuti wo kwisiga ukunda gukoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubagabanyirize ububabare. Uri mu gacupa gato gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umufuniko w'umweru kandi kanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'amagi, inyuma, imbuto z'ubwoko bwinshi, harimo imineke, inkeri, pome ndetse n'ibindi bitandukanye, iruhande rwabyo hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Ari kunywa amazi meza, akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ga zo kwambara mu ntoki z'umukara, zikunda gukoreshwa n'abari gukora imyitozo ngororamubiri nko guterura ibyuma kugira ngo intoki zabo zitababara cyangwa badacika ibisebe.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura kandi ahina amaboko ye kugira ngo agororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto harimo: pome, ibitunguru, amaronji, avoka ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari icupa ririmo amazi meza yo kunywa ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umurima uteyemo ibihingwa nk'igikakarubamba byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore baje kureba uburyo ubu buhinzi bukorwa.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti gakondo ikozwe mu bihingwa yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo utubati aho igiye ipanze hasi ndetse no hejuru. Muri iki cyumba kandi harimo abacuruza iyi miti kugira ngo bayishyikirize uyikeneye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo ibone gukoreshwa.

Igikarito gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru kandi cyanditseho inyuguti mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, kirimo imiti yo kunywa yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti wifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, ndetse no kurinda indwara izo arizo zose zishobora kuza mu kanwa. Ukozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, kandi uri mu icupa ry'umweru rirerire, rifite ifoto y'igikakarubamba kuri ryo.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite ibinini mu ntoki byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi afite igikarito cy'umweru gifite n'amabara y'icyatsi kibisi kibikwamo ibinini.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo igikakarubamba, umuravumba, igisura ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi cyane cyane kuvura indwara zo mu nda, ibisebe, indwara z'uruhu n'ibindi bitandukanye.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara ziba zafashe uruhu. Ari mu icupa ry'umweru rirerire kandi kuri ryo hariho ifoto y'igikakarubamba ndetse n'inyuguti zanditse mu ibara ry'ubururu.

Umuti wo koza amenyo ukoze mu gihingwa kigika karubamba wifashishwa mu guhanagura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe ku menyo ndetse no kuvura indwara zo mu kanwa. Uri mu icupa rirerire rifite ibara ry'umweru kandi kuri iri icupa hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo igikakarubamba, igisura, umuravumba ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, higanjemo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, kuvura ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo amaronje, pome, mandelena ndetse n'izindi zitandukanye zongera intungamubiri cyangwa isukari mu mubiri w'uwakoze siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu kuvura ibisebe, udushishi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'umuravumba, aho ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu cyangwa indwara z'ibisebe.

Ahari gutunganyirizwa ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, harimo indwara zo mu nda, indwara z'ibisebe bitandukanye, ndetse n'indwara z'uruhu.

Ahateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, kuvura ibikomere ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, iruhande rwabyo hateretse igikoresho kifashishwa mu kuyitunganya kugira ngo babone kuyikoresha.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo umuravumba, igikakarubamba, igisura, umuyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa ubuvuzi bw'indwara nyinshi.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'uruhu, kuvura ibisebe, indwara zo mu nda, kuvura abakomeretse ndetse n'ibindi.

Ahari gutunganyirizwa imiti gakondo ikozwe mu bihingwa yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye higanjemo indwara zo mu nda, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye zifata abantu bato ndetse n'abakuru.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zifata abato ndetse n'abakuru cyane cyane indwara z'uruhu, ibikomere ndetse n'ibindi.

Ibibabi by'igihingwa cy'umuravumba, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, ibisebe, ubushye ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Aha kandi, hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo ibonwe kujyanwa ku isoko.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda kuvura indwara z'uruhu kuvura ibisebe ubushye ndetse n'izindi zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu bihingwa by'igikakarubamba ndetse na pome, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe uruhu, ari mu macupa kandi maremare afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru.

Amavuta akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu. Ari mu icupa rirerire rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umufuniko w'ikinombe. Kuri iri cupa kandi hariho ifoto y'igikakarubamba kandi iruhande rwayo harambitse ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Amacupa maremare, ariho ibikaratasi, arimo imiti ikozwe mu bihingwa, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuti wifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, uri gushyirwa ku gikoresho kifashishwa mu gukura imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo; kugira ngo itazateza uburwayi.

Ibibabi by'igihingwa cy'umuyenzi byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, aha kandi hateretse igikoresho cyifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo babone kuyikoresha.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye, biri gutunganywa kugira ngo bibonwe kujyanwa ku isoko. Ibi bikora imiti yifashishwa mu gukora ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane izo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'izindi.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo umuravumba, igisura, igikakarubamba, umuyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zifata abantu bakuru ndetse n'abato.

Ahari ibibabi by'ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, aha kandi hari igikoresho cyifashishwa mu gutunganya iyi miti.

Igicupa kirekire kirimo ubuki bwakozwe n'inzuki, bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye indwara z'umuhogo, ubushye ndetse n'izindi zitandukanye, ubuki kandi bwifashishwa bushyirwa mu cyayi ndetse no mu biryo.

Ahari gutunganyirizwa ibibabi by'umuravumba byifashishwa mu gukora umuti uzakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane izo mu nda. Ibyo bibabi birambitse mu birahure, aho amazi yabyo araza gukoreshwa kugira ngo avure izo ndwara.

Ibibabi by'igihingwa k'igisura byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'ibisebe.

Ahari kubera ubucuruzi bw'imiti gakondo ikozwe mu bihingwa, aho iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, ay'umweru ndetse n'ay'umukara, aha kandi hari umugore uri kubicuruza kugira ngo abishyikirize ababishaka.

Igihingwa cy'ipera giteye mu murima. Ibibabi byacyo byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Iki gihingwa kandi gitanga imbuto zikoreshwa zikongera imbaraga ndetse n'isukari mu mubiri w'umuntu.

Ibibabi by'igihingwa cy'umwumbati, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, iz'uruhu ndetse no kuvura ibisebe.

Ibibabi by'igihingwa cy'uburavumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu gukora ubuvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo indwara zo munda, indwara z'uruhu, ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye zifata ingeri z'abantu.

Ahateye igihingwa cy'umuravumba, kifashishwa mu gukora imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo izo mu nda, indwara z'uruhu, ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa cy'umwumbati byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kuvura ibisebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'uruhu, izo mu nda ndetse no kuvura ibisebe.

Ibikarito birimo ibinini byo kunywa byifashishwa mu kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru kandi cyandikishijeho inyuguti ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara z'uruhu, kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibikomere, ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahateye ibihingwa, aho ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti wo kunywa ukozwe mu gihingwa cy'umuravumba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abana bato ndetse n'abantu bakuru. Uri mu kirahure, hejuru yawo hariho ikiyiko kiriho uwo muti, iruhande rwabyo hari ibibabi by'umuravumba.

Umurima uhingizemo igihingwa k'igikakarubamba, amababi ya cyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, harimo indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Isabune ikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu kugira ngo uyikarabye agire uruhu runyereye kandi rudafite amavuta menshi bityo akomeze gusa neza.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibisura ndetse n'umuyenzi byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo, indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu.

Umuti ukozwe mu bihingwa by'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, uri mu macupa y'umweru maremare ariho ifoto y'igika karubamba kandi yanditseho inyuguti mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibijumba, ibirayi, tangawize, imbogarwatsi, ibikakarubamba ndetse n'ibindi, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi.

Imiti yifashishwa mu kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu. Iri mu bikarito bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru kandi byanditseho inyuguti mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Ibibabi by'igihingwa cy'umuravumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata abakuru cyangwa abato ku bibazo by'uruhu, ibibazo byo mu nda, ibisebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahateye igihingwa cy'umuravumba, aho ibibabi byacyo zifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye: harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, higanjemo indwara zo mu nda, nk'indwara z'uruhu, kuvura ibisebe, kuvura abakomeretse ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuti wo koza amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, aho wifashishwa mu gukura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ndetse no kuvura indwara zo mu kanwa. Iruhande rwawo hateretse udukoresho twifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru ndetse kanditseho inyuguti mu ibara ry'umukara, aka gacupa karimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe abantu.

Imboga rwatsi, harimo amashu, dodo, intoryi ndetse n'izindi zitandukanye abantu barya kugira ngo bifashe umubiri kurwanya indwara izo ari zo zose, bityo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Ahateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye aho amababi yabyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, higanjemo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, cyane cyane izo mu nda, indwara z'uruhu, ndetse no kuvura ibisebe.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye higanjemo indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, ibikomere ndetse n'indwara zo mu nda.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa, mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, higanjemo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, ndetse n'izindi zitandukanye.

Igikarito gifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, kifashishwa mu kubika imiti, iruhande rwacyo hateretse ibinini byo kunywa byongera intungamubiri mu mubiriu w'uwakoze imyitozo ngororamubiri.

Ahari gutunganyirizwa ibyatsi by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo izo mu nda, indwara z'uruhu, ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti wo koza amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, kugira ngo ukureho imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo, kandi ukifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa, uri mu icupa rirerire rifite ibara ry'umweru, kandi kuri ryo hariho ifoto y'igikakarubamba.

Amavuta akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye zaba zafashe uruhu. Ari mu icupa rirerire, rifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibibabi by'igihingwa cy'umwumbati, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, cyane cyane kuvura indwara zo mu nda, kuvura inzoka, kuvura ibisebe, ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahateye igihingwa cy'umuravumba kifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye harimo indwara zo mu nda, ibisebe, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga, akozwe mu bihingwa by'ibikakarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, zaba zafashe uruhu, aho ari mu macupa maremare, afite ibara ry'umuhondo, kuri aya macupa kandi hariho ifoto y'igikakarubamba.

Isahani y'umweru iteretseho imbuto z'maronje zifashishwa mu kongera isukari mu mubiri w'umuntu ndetse zikongera intungamubiri, iruhande rwazo hateretse igikombe gito cy'umweru kirimo imiti yo kunywa ivura indwara zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikarubamba yifashishwa mu gukuraho indwara zose z'uruhu, ari mu macupa y'umweru maremare yanditseho inyuguti mu ibara ry'icyatsi kibisi kandi ariho ifoto y'igikakarubamba.